Iyi ni imashini isiza irimo nko gusiza abantu bashaka kubaka cyangwa gukora umuhanda. Aho bigaragara ko harimo umuntu uyitwaye, barimo barasiza nk'ikibanza bashaka kubakamo cyangwa se abantu barimo barakora umuhanda.